Abagabo ndetse n'abagore, aho bicaye ku ntebe ifite amabara y'umukara, ndetse imbere yabo ku meza, hakaba hari amazi ndetse n'ibitabo bitandukanye, aho bamwe muri bo bafite za mudasobwa imbere yabo.

Irimo abasore ba mama ndetse n'abakobwa, aho bambaye agapfukanwa, gafite ibara ry'ubururu bwerurutse, aho imbere yaho hari ameza baricayeho bigaragara nk'aho bari bari mu nama.

Abagabo batatu bambaye amakoti y'umukara, aho umwe yambaye amarinete hakaba hari n'umugore wa kane ubicayemo hagati aho ari kuvuga ijambo kuri mikoro imuri imbere.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ishati y'umweru, aho afite mikoro arimo arasobanurira abantu batandukanye bicaye muri iyo nama, aho imbere yaho hari amazi ndetse n'utumeza hariho n'ibitambaro by'umweru.

Aba n' abantu batatu bari ahantu hamwe mu nzu isize amabara y'umuhondo barakeye cyane yiganjemo abagabo babiri n'umugore umwe wambaye ikanzu y'umukara n'amadarubindi imbere ye hateretse agacupa k'amazi.

Inzu isize amarange y'umweru aho muri iyo nzu hari kubera inama irimo abantu batandukanye harimo umugore wabaye amarinete ndetse n'abagabo bane batatu bambaye kositimu y'umukara ndetse n'umwe wambaye kositimu yerurutse.

Salle irimo abagore ndetse n'abagabo, aho bicaye bakurikiye umuntu imbere yabo hari ibikombe birimo ibyo kunywa, ndetse bamwe muri bo bafite mudasobwa bakoresha mu kazi.

Abadamu babiri aho bicaye, ndetse iruhande rwabo hakaba ari n'umugabo nawe wicaye wambaye ishati y'ubururu, inyuma yaho hakaba hari icyapa kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'icyatsi kibisi cyandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Inzu isize amabara y'umweru ndetse n'umuhondo, aho iyo nzu isanzwe ikoreramo inama bitewe n'uko intebe zaho zipanze, aho irimo abantu benshi batandukanye harimo: abagore, abagabo ndetse n'urubyiruko.

Abagabo ndetse n'abagore, aho bicaye ku ntebe z'umukara, aho imbere yabo hari ameza, hakaba hateretseho ji, ndetse n'amazi, aho buri wese, hari urupapuro imbere rwo kwandikaho, ibintu bari kureba kuri televiziyo iri imbere yabo.

Iyo abayobozi basoje inama bari barimo hari ahantu habugenewe bahurira bakiga ku myanzuro yafashwe ndetse bakanatanga n'umucyo ku bibazo byagiye bigaragazwa ,aho hantu iyo bahageze baraniyakira.

Inzu isize ibara ry'umweru ndetse irimo amakaro y'umweru, aho abantu benshi batandukanye abagore ndetse n'abagabo, aho bicaye ku ntebe imbere yaho hari ameza ateretseho amazi bari kunywa kugira ngo baticwa n'icyayaka mu gihe bari mu nama.

Abagabo bane batandukanye aho bicaye ku meza bari kuganira ku bitekerezo bitandukanye, umugabo umwe wambaye ishati y'ubururu bwerurutse, akaba afite mudasobwa imbere ye, akaba ari kurebana n'undi nawe wambaye ishati y'amaboko maremare.

Abagabo batatu aho bicaye umwuka umwe akaba yambaye ikote ry'umukara ndetse akaba yambayemo n'ishati y'ubururu, abandi babiri bakaba bambaye amashati y'mweru, aho buri wese hari akarangururamajwi imbere ye wo hagati akaba ari we uri kuvuga.

Inzu isize amabara y'umuhondo iriho abantu batandukanye abagabo ndetse n'abagore; aho bari mu nama nyunguranabitekerezo ku bibazo bitandukanye, aho bakurikiye imbere bari kumva umuntu uri kubabwira.

Abantu batandukanye bambaye imipira y'ubururu aho yanyandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umweru, ndetse harimo n'abandi batambaye umupira, aho hari umugabo ufite mikoro wambaye ishati y'umukara ndetse uri guhereza mikoro umugore.

Inzu isize amabara y'umuhondo werurutse, aho hicayemo abantu batandukanyekanya abagore ndetse n'abagabo bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umuhondo, ndetse imbere yabo hari amazi ateretse ku mameza afite ibitambaro by'umweru.

Abagabo ndetse n'umugore umwe wambaye amarineti aho bicaye imbere y'ameza bamwe muri bo bafite za mudasobwa, abandi imbere yaho hari amakayi aho bakurikiye umuntu uri gusobanura ibintu imbere yabo.

Abadamu batatu, aho babiri muri bo bambaye imyenda ikoze mu bitenge, naho uwo hagati yambaye ishati y'amaboko maremare, akaba yambaye namarinete, inyuma ye hakaba hari igikuta gisize ibara ry'umweru, bakaba bicaye ku meza ariho igitambaro cy'umweru.

Ihema rinini ryubatse nk'inzu aho iryo hema rifite amabara y'umweru, ndetse muri iryo hicayemo abantu benshi batandukanye aho bicaye ku ntebe zipfukishijwe ibitambaro by'umuhondo ndetse harimo n'ameza nayo apfukishijwe ibitambararo by'umuhondo bakaba bakurikiye umuntu uri imbere.

Batandukanye bicayeho, harimo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, aho bicaye hafi y'ameza ndetse buri muntu imbere ye hateretse ameza, hakaba harimo abazungu ndetse n'abirabura, aho bakurikiranye umuntu uri kuvuga ijambo imbere.

Umukobwa w'inzobe ndetse n'abasore batandukanye bicaye bambaye imipira y'ubururu aho iyo mipira iriho idarapo ry'urwanda iri mumabara y'ubururu, umuhondo n'icyatsi kibisi n'izuba mu ibara.

Amahema ari mu ibara ry'umweru aho ariho imitako igaragaza idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda kiri mu mabara y'ubururu umuhondo ndetse n'icyatsi, aho muri ayo mahema hicaye abantu batandukanye bari kumva ibyo umugore uri imbere yabo ari kubabwira.

Iyi nama yiga ku bidukikije aho imbere yicaye abayobozi batandukanye harimo abagabo babiri umwe yambaye ikositimu y'umukara ndetse n'ishati y'mweru, naho undi afite mikoro yambaye nawe ishati y'umweru, mo hagati yicayemo umugore hagati.

Umudamu witandiyeye neza aho yambaye amarinete ndetse afite mikoro akaba yambaye ishati y'umuhondo akaba ari gutanga imbwirwaruhame ku bantu baje aho ngaho inyuma ye hakaba hari n'icyapa kiranga ikigo ari kuvugira.

Abagabo bane batatu bambayemo amarinete, hakaba harimo n'abandi bagore babiri, umwe yicaye undi ahagaze aho bari kwifotoza, inyuma yaho hari ibyapa bitandukanye biriho idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Umudamu wambaye amarinete ndetse yambaye n'umupira w'umukara n'ishati y'umukara, aho afite mikoro ari gutanga imbwirwaruhame ku bagabo ndetse n'abadamu bamuri imbere, bicaye ku ntebe.

Abantu batandukanye harimo abagore ndetse n'abagabo, aho bicaye ku ntebe imbere yaho hari ameza, ariho igitambaro cy'umweru ndetse n'igitenge, hakaba hateretseho amazi imbere ya buri muntu.

Batandukanye b'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, aho umugore umwe ari imbere, ari gutanga imbyirwa ruhame afite mikoro, imbere ye hakaba n'ahantu hari kugaragara ibyo ari gusobanura.

Inzu ifite amabara y'umweru, aho iyo nzu irimo intebe nyinshi zifite imisego, irimo abantu batandukanye bafite mudasobwa, bicaye bari mu nama aho harimo abagore ndetse n'abagabo bari kungurana ibitekerezo ku ntego runaka.

Abantu batandukanye aho harimo n'abadamu babiri aho bicaye imbere ya meza bafite amazi ndetse bakurikiye umugabo uri imbere wambaye ikositime, muri iyo nama hakaba harimo n'abazungu babiri.

Ubuso bw'umweru aho handikishije amagambo ari mu ibara, ry'ubururu ndetse hariho umugabo ufite telefoni, yerekana uburyo ushobora kwiyandikisha. Mu buryo bwo gukorera perime ya burudu.

Akazu kubakishijwe n'ibyuma bisize amabara y'umuhondo, umweru ndetse n'ubururu, aho harimo abagabo babiri bari gutanga serivisi zitandukanye, aho umwe yambaye umupira w'umuhondo, imbere yaho hari undi mugabo wambaye umupira w'amaboko maremare, uri gusaba serivisi.

Ubuso bw'umweru aho handikishijeho amagambo y'umukara ndetse n'ubururu, aho hariho ikirango cy'urwego rw'igihugu rushinzwe uburezi REB, aho ari urubuga rwayo rukoreshwa ushaka ibintu bitandukanye.

Ifite umuryango ufite ibara ry'umuhondo, wandikishije ijambo riri mu mabara y'ubururu, aho iryo jambo handitseho irembo, muri iyo nzu aho bakoreramo ibintu bitandukanye byerekeranye n'ikoranabuhanga nko kwandika amabaruwa ndetse n'ibindi bintu byinshi.

Ubuso bw'umweru, aho handikishijeho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, ndetse n'ahandi hariho ibara ry'umuhondo, aho hariho intebe iticayeho umuntu, hakaba hari n'ikirango cya Rwanda Revenue Authority ikigo cy'igihugu, gishinzwe imisoro n'amahoro.

Inzu isize amabara y'umweru nk'aho ifite umuryango uriho ibyapa bitandukanye by'ibigo bitandukanye, hariho nk'ikigo gikora iby'itumanaho emutiyeni kiriho icyapa kiri mu mabara y'umuhondo n'ikirango cyayo, hanze hakaba hari n'ibindi bintu bikorerwa mo aho.

Agapangu gakozwe mu byuma aho kazengurutse umunara w'itumanaho aho uwo munara muri ako gapangu harimo ibyuma biwufasha kubona umuriro ndetse n'ibindi bifasha gutuma hakwirakwizwa amajwi ku buryo bworoshye.

Ubuso bw'ubururu, aho hariho ibirango y'urwego rushinzwe imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority, aho rwandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umweru, ndetse n'utundi tuntu tw'umuhondo, aho hariho telefoni, yerekana uburyo bwose bukoreshwa kugira ngo umenyekanishe umusoro.

Ubuso bw'umweru aho handikishijeho amagambo y'umweru, ari mu kantu k'ibara ry'ubururu, aho hariho amacupa atatu ya gaze afite amabara atandukanye umuhondo, ubururu ndetse n'umutuku yerekana uburyo ushobora kugenzura gaze yawe.

Ni mu isoko ry'ibiribwa harimo abantu bagaragara ko bari kugurisha, ndabona imboga zitandukanye, inyuma yaho ndahabona ibindi bintu biri gucuruzwa ,ndahabona ikimeze nk'umutaka ,ndahabona hirya ibiti ndetse hirya yaho hari n'inyubako.

Ubuso bw'umweru aho hariho amagambo yandikishije mu ibara ry'ubururu ndetse n'umukara kuri mudasobwa iri aho ngaho kuri ubwo buso bw'umweru. Aho yerekana uburyo ushobora kubona serivise ku rubuga rw'Irembo.

Ubuso bw'umweru aho handikishijeho amagambo ari mubara ry'ubururu, ndetse andi akaba utuzu yandikishije umweru harimo ibara ry'ubururu ryerekana serivisi zitangirwa ku rubuga rw'irembo.

Inzu isize amabara y'umuhondo aho hari umugabo wicaye imbere ya mudasobwa ari kureba ibintu muri mudasobwa, aho irimo amashusho agaragaza urubuga rw'irembo rufasha abantu kwishyura serivisi za leta zitandukanye.

Imodoka zitwara abantu ku buryo bwa rusange, aho hicayemo abantu batandukanye, harimo abantu bafite za mudasobwa zigendanwa, ndetse n'abandi bahugiye muri telefoni, aho bari gukora akazi kabo ndetse n'utundi tuntu bashaka.

Bw'umweru bwandikishijeho amagambo ari mw'ibara ry'umukara, aho hariho ibimenyetso bitandukanye by'uburyo wakirinda koronavirusi, aho harimo nk'uburyo bwerekanwa bwo kwambara agapfukamunwa neza ndetse n'ibindi

Ubuso bw'umweru byandikishijeho amagambo arimo ibara ry'umukara ndetse n'ubururu, aho harimo utubogisi twerekana uburyo ushobora kurema konti yawe, muriho hari ikigo gishinzwe gutanga serivisi n'ibindi bikwiye.

Abagabo batandukanye aho bicaye, bamwe muri bo bafite mudasobwa zigendanwa ndetse n'abandi bakaba bari kuri telefone aho bahuze bari mu bintu bitandukanye aho bicaye ahantu hamwe.

Inzu z'amagorofa, aho izo nzu zikorerwamo ubucuruzi butandukanye, nko gucuruza imyenda, amatelefone, ndetse hagakoramo n'ibindi bigo, nka za banki, ndetse n'ibindi. Imbere yaho hari abantu bari kugenda, n'abandi bicaye.

Ubuso bw'ubururu amagambo yandikishije mu ibara ry'umweru, aho hariho ibinyabiziga bitandukanye nk'ipikipiki ndetse n'amamodoka ari mu mabara atandukanye, ubururu, umweru ndetse n'umukara, hakaba ariho n'ikirango cya Rwanda reveni otoriti.

Inzu y'umweru hariho ibirango by'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB, aho wandikishije amagambo y'umukara ndetse ariho n'ifoto y'abayobozi batandukanye, bumenyesha abantu inama ya cumi na rimwe yerekana amanota mu miyoborere.

Aho hariho ibirango by'urwego rushinzwe imisoro n'amahoro Rwanda reveni otoriti, hakaba hariho intebe ifite ibara ry'umukara, ikoreshwa muri za ofisi, aho handitseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, aho biri, bari kumenyekanisha akazi gahari muri deparitoma zitandukanye.

Umunara ukozwe mu byuma aho uwo munara usigwa amabara atandukanye harimo nk'irangi ry'umweru ndetse n'iry' umutuku awurinda umugese kugira ngo utawurya, ukazahanuka utamaze igihe.

ubuso bw'umweru aho handikishijeho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, aho hateretse na mashini igaragaza ibintu uba uri kubona ku rubuga rw'irembo, iyo uri kwiyandikisha mugu gukora ikizamini cy'uruhushya rw'agateganyo.

Umunara w'itumanaho aho usize amarangi y'umweru ndetse n'umutuku awuhinda umugesi kugira ngo utangirika, ukaba uzitijwe ibyuma aho kugira ngo abantu bataza bakawucokoza. bakaba bakangiza ibyuma bihari.

Umunara usize amabara y'umutuku ndetse n'umweru aho wegeranye n'ibiti bitandukanye aho, uwo umunara wifashishwa kugira ngo haboneke uburyo abantu bashobora kumvikana mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Abasore n'abagabo batandukanye aho abasore bambaye udupfumunwa tw'ubururu ndetse harimo n'uwambaye agapfukamuwa k'umukara, harimo n'umudamu wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ikoti ry'umukara, nawe wambaye agapfukamuwa k'ubururu bose batatu muri bo bafite mudasobwa mu ntoki.

Ishuri risize amarangi y'umweru ririmo abanyeshuri abakobwa ndetse n'abahungu aho bambaye impuzankano zabo ziri mu mabara y'umweru ndetse n'amapantaro ya kaki ndetse n'imipira ijya gusa n'umukara aho bicaye bari kwiga.

Urupapuro rufite ubuso bw'umweru hariho ikirango cya repubulika y' u Rwanda handikishijeho amagambo y'ubururu ndetse n'umukara, aho ari itangazo rimenyesha abantu ku bijyanye n'iminsi y'ikiruhuko.

Ubuso bw'ubururu aho bwandikishijeho amabara y'umweru ndetse n'umuhondo, aho harimo tabulo irimo amabara y'umweru ndetse hariho ibirango bya Rwanda revenu autority, aho ari ikigo gishinzwe gukusanya imisoro.

Ubuso bw'ubururu bweherurutse aho handikishijweho amagambo ari mu ibara ry'ubururu ndetse hariho mudasobwa zanditsemo ijambo ibiyemu ndetse hariho ibirango bya Rwanda reveni otoriti, aho basobanura uburyo ushobora gukoresha utanga fagitire yemewe.

Ubuso bw'ubururu bwandikishije amagambo y'umweru ndetse n'umuhondo, aho hariho ibirango bya rwanda reveni; bari ku kigo cy'igihugu gishinzwe imisoro ndetse n'amahoro kimenyekanisha uburyo n'amande bizacibwa umuntu uzarenza itariki.

Ipoto rinyuzwaho insinga z'amashanyarazi ndetse n'insinga zitwara interineti, kugira ngo abatuye aho ndetse n'abatuye kure babashe kugezwaho umuriro w'amashanyarazi bitabagoye, rikaba ryegeranye n'inzu ikorerwamo ubucuruzi butandukanye.

Iteye karabasasa aho hariho utwuma dufasha gukupa umuriro ndetse n'insinga zitandukanye, aho ari insinga z'ubururu ndetse n'iz'umutuku aho iyo karabasasu irinda inzu kwangirika.

Amapoto ashinze mu butaka, aho ayo mapoto ashinzwe ku ruhande rw'umuhanda, aho afasha gutwara insinga z'amashanyarazi ndetse n'iza enterineti, hafi yaho hari irindi poto rimanitseho itara rimurikira abagenzi ku muhanda.

Umuhanda w'umukara ugenderwamo n'ibinyabiziga bitandukanye nk'amaki ndetse n'imodoka zitwara abantu rusange nk'abantu bwite aho hirya y'ho hari inzu iri kubakwa iriho ibiti byinshi, hirya hakaba hari n'izindi nyubako n'abandi bantu bari mu bikorwa byabo bya buri munsi.

Ipoto ry'amashanyarazi aho rishinze mu myaka, rinyurwaho n'insinga zitandukanye zitwara amashanyarazi ziyageza mu duce dutandukanye, ku baturage bari muri karitsiye zitandukanye.

Umuhanda w'umukara, hirya yaho aho abagenzi banyura, hari umuhungu n'umukobwa. Aho umukobwa yambaye umupira w'umukara ndetse afite n'ikote ku rutugu, naho umuhungu yambaye umupira w'umweru ahetsen' igikapu. Hirya yaho hari insina.

Ipoto rinni aho rikozwe mu byuma byinshi, aho rikozwe kugira ngo ryifashishwe mu kugeza insinga z'amashanyarazi mu bice bitandukanye, kugira ngo aba baturage babone umuriro bitabagoye.

Ipoto ry'igiti rishinze mu butaka aho ririho insinga zitandukanye z'amashanyarazi yerekeza ku baturage bari muri iyo karitsiye, aho babasha kubona umuriro biboroheye.

Ipoto rikozwe mu byuma aho ricishwa insinga z'amashanyarazi atandukanye kugira ngo abaturage begereye aho hantu ndetse n'abatahegereye babashe kugezwaho umuriro w'amashanyarazi bitabagoye.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, imiryango, isize ibara ry'umweru, aho hirya hari indi nzu na yo isize ibara ry'umuhondo, imbere yaho hari ibyuma byifashishwa mu gutanga umuriro ku bantu batandukanye.

Ipoto rikozwe mu byuma byinshi, aho rishinzwe mu butaka, rinyuzwaho insinga z'amashanyarazi kugira ngo bayageze ku baturage bari ahantu hatandukanye kugira ngo babashe kwikorera ibindi bikorwa by'iterambere.

Amapoto acishwaho insinga z'amashanyarazi zikwirakwiza umuriro ku bantu batandukanye, aba hafi ndetse n'abakure, aho wifashishwa bakora ibikorwa bitandukanye nko kogosha, gufura ndetse n'ibindi.

Ipoto rikozwe mu byuma byinshi, aho iryopoto rikoreshwa hacishwaho itsinga z'amashanyarazi kugira ngo abashe gukwirakwizwa mu bice bitandukanye aho abantu bashobora kuyafata biboroheye bakayakoresha mu kwiteza imbere.

Umuhanda w'umukara aho hari kugenda ibinyabiziga bitandukanye, nk'imodoka zitwara abantu ku giti cyabo ndetse n'amapikipiki, iruhande rw'umuhanda hakaba hari amapoto ariho amatara amurikira abantu ku mugoroba, haba hagiye hariho n'ibyapa byamamaza.

Amapoto acishwaho insinga zitandukanye harimo izitwara umuriro ndetse harimo n'izindi zitwara interineti kugira ngo abantu babashe kwikorera ibintu bitandukanye babona umuriro ndetse na internet.

Ipoto rihagaze rirerire aho rivuzweho insinga zitandukanye, aho rinyuzwamo insinga zitwara umwuriro w'amashanyarazi hakanyuzwaho n'insinga zitwara interineti kugira ngo bigere ku baturage batandukanye turi mu bice bitandukanye.

Ipoto rikozwe mu isima ndetse n'umucanga aho unyuzwaho insinga z'amashanyarazi, ndetse rikaba ririho n'itara rimurikira abantu ku muhanda, hakaba hanyuzwaho n'imigozi itwara interinete kugira ngo abantu bayibone mu buryo bworoshye.

Umuhanda w'umukara hiryaha hakaba hari abantu batandukanye bari kugenda mu gice cy'aho abagenzi banyura hirya hakaba hari n'izindi modoka ziparitse hakaba hari n'amazu akoreramo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi.

Amapoto atwara insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi, aho akozwe mu byuma ndetse asize n'irangi kugira ngo atagwara umugesi, imbere yaho hakaba hari inzu z'ubucuruzi zicuruza ibicuruzwa bitandukanye nk'ibicuruzwa bikoreshwa bakora umuriro ndetse n'ibicuruzwa bikoreshwa bakora amazi.

Inzu igeretse isize amabara y'umuhondo ndetse n'umweru; aho imbere yaho hari ubusitani burimo jaridi ndetse hirya yaho hakaba hari n'izindi jaridi zirimo ibiti bitandukanye.

Imodoka zizwi nk'imbangukiragutabara zitabara abantu bagize ibyago nk'abagize impanuka, abagize ibibazo by'uburwayi ndetse n'ibindi. Aho imbere yabo hari abantu bahagaze baje kwivuza ku bitaro.

Umuhanda w'umukara, aho hirya y'umuhanda hari inzu zubakishije amatafari ahiye, ndetse hari icyapa cyerekana aho uwo muhanda ugana, aho icyo icyapa cyanditseho ibitaro bya Kabgayi.

Yubakishijwe amatafari ahiye aho imbere yabo hari pasiparume ndetse hakaba harimo n'igiti giteyemo, aho hagiye harimo utwapa turanga amerekezo y'aho ibintu bikorerwa by'ubuvuzi.

Ifite ibara ry'umweru ndetse yandikishijeho amagambo y'umutuku iriho umusaraba, hejuru hariho igitara kigenda kivuza. Imodoka ikoreshwa nk'ibangukiragutabara, ijya gufasha abantu bagize ibyago nk'impanuka ndetse n'ibindi.

Inzu zubakishijwe amatafari ahiye, aho izo nzu zikorerwamo ibikorwa bitandukanye, imbere yaho hakaba hari ubusitani bukozwe na pasiparume, ndetse n'indabyo zitandukanye, hirya hakaba hari n'indi nzu ifite igisenge iriho amabati asize irangi ry'umutuku.

Inzu yubakishije amatafari ahiye aho imbere yaho hari ubusitani burimo indabyo zitandukanye aho abantu muri iyo nzu bayikoreramo ibintu bitandukanye batanga serivisi zitandukanye.

Umuhanda w'umukara aho uganisha ku bitaro byitwa Sehashiyibe, biri mu karere ka Huye, aho hahagaze umuntu uhagarika imodoka kugirango babanze basuzume icyo uje uhakora, hakaba hari imodoka nyinshi ziparitse.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye ikaba isize amabara y'umweru, aho muri iyo kororidori hari amakaro afite ibara ry'umweru, hakaba hari n'udutebe abantu baje gushaka serivisi bicaraho.

Abagabo babiri aho umwe ari Umunyafurika asa n'aho ajya kuba umusore, n'aho undi wo hirya ari umugabo w'ibara ry'uruhu rwera wambaye amarinete asa n'aho akuze ari kumwerekera ibintu mu mamashini.

Uyu mugabo uri imbere yanjye afite kompiyuta nini mbere yaho kato ku yindi ntebe ikurikira hari undi nawe ufite compiyuta yambaye ikabutura afite igikapu ateretseho komputer hari abandi bantu inyuma ye nanone bahuze bose bafite telefone bameze nkabari kuri interinete bicaye mu modoka nini ya litiko.

Urupangu rufite amabara y'umuhondo, ndetse n'ibara rya shokora. Hejuru ari icyapa cyanditse mu magambo y'umukara, gereza ya Nyanza, aho hafungirwa abagororwa bakoze ibyaha bitandukanye.

Ubuso bw'umweru bwandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umukara, aho hariho ibika bitatu, igika cya mbere kikaba cyanditse mu rurimi rw'Ikinyarwanda, igika cya kabiri kikaba cyanditse mu rurimi rw'Icyongereza, naho icyika cya gatatu kikaba kiri mu rurimi rw'Igifaransa.

Umugabo wambaye igikanzu kiri mu mabara y'umutuku ndetse akakiriho n'ibara ry'umweru akaba yambayemo ishati na karuvati, aho icyo gikanzu gikoreshwa n'abantu bo mu butabera bw'u Rwanda.

Umudamu wambaye amarinete y'umukara, ufite imisatsi miremire, aho iyo imisatsi ari umwimerere w'iwe, ndetse wambaye agashanete n'amaherena, aho ari imbere ari gutanga imbwirwaruhame.

Isize irangi ry'umweru aho irimo intebe ndende zicarwaho n'abantu benshi, aho harimo abagabo batandukanye harimo n'abambaye ibikanzu binini by'umukara, abo bagabo ari abacamanza baje kuburanira umuntu wambaye agapfukamunwa k'umweru ubahagaze hagati.

Ihema ry'umweru aho ritakishije amabara ari mu idarapo y'u Rwanda y'umuhondo, icyatsi, aho hari umugore wambaye ikote ndetse afite bikoro aho ari kubwira abantu bamuri imbere.

Gereza yubakishije amatafari ahiye ndetse yanditseho gereza mu magambo y'icyongereza, aho hari abagororwa batandukanye bambaye impuzankano z'abagororwa ziri mu ibara ry'iroza ndetse hari n'abashinzwe umutekano imbere yaho.

Igipangu cyubakishije amatafari ahiye ndetse gisize amarangi y'umuhondo, aho inyuma yacyo hari abagoroba bari mu mpuzankano zabo, aho bafite ibikoresho bikora amasuku bavuye gukora imirimo nsimburagifungo.

Abadamu babiri bambaye amarinete aho bambaye ikanzu y'umukara iriho akantu k'umweru, ndetse iruhande rwaho hakaba hari n'abagabo babiri, umwe yambaye impuzankano y'abagororwa y'iroza, iruhande rwe hari undi mugabo wambaye igikanzu nacyo cy'umukara kirimo umweru.

Umugabo wiyogoshesheje umusatsi yawumazeho, aho yambaye igikanzu cy'umutuku ndetse n'umukara, aho yambaye karuvate, aho iyo kazu ikunda gukoreshwa no mu nzego z'ubutabera.

Ubuso bw'umweru ariho hariho ikirango cy'inkiko gacaca gikozwe mu idarapo riri hafi kikaba kirimo amashaka abiri akizengurutse harimo n'igiti abantu bicaye munsi n'abandi bana bashushanyije hirya bari kureba uburyo hatangwa ubutabera.

umugabo wambaye igikanzu cy'umutuku ndetse kirimo n'kindi cyumukara yambaye ingofero yumukara iriho utuntu twumuhondo afashe ku ibendera ryigihugu risanzwe rifite amabara yumuhondo ku cyatsi ndetse nubururu aho ari kurahira inshingano yahawe

Utubati turimo ibikarito byinshi bigiye biriho amazina yabyo, aranga ibirimo kugira ngo bizorohe gushaka ibintu birimo, aho hari umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare ndetse na marinete ari gusobanura uwaje aha hangaha.

Ibumoso bw'umweru aho handikijwe amagambo ari mu ibara ry'umukara, amenyekanisha abayobozi batandukanye, bagiye bashyirwa mu myanya itandukanye y'ubuyobozi bw'igihugu.

Batandukanye, aho bambaye ibikanzu ndetse n'udupfukamunwa, aho umudamu umwe ahagaze amanitse akaboko k'iburyo afatishije akabokobo k'ibumoso ku idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda ari kurahira inshingano.

Abagabo babiri bambaye amarinete, bahagaze imbere barebana aho umwe afite ibara ry'uruhu rwera ,undi ari umunyafurika ,bose bambaye ibikanzu by'umukara birimo umweru, imbere y'aho hari umugore wambaye amarinete n'impuzankano y'abagororwa.

Umugabo wambaye ingofero y'umukara aho izengurukijweho akantu gafite ibara ry'umuhondo, wambaye amarinete, aho yambaye igikanzu kirekire gifite ibara ry'umutuku ndetse gifite n'ikora ry'umweru, aho bayikoresha mu bucamanza.

Abagabo babiri aho umwe yambaye impuzankano y'abacamanza irangwa n'igikanzu kirekire ndetse hirya yaho hari umugororwa wambaye ikanzu y'iroza ndetse n'agapfukamunwa gasa n'iroza aho baje kumuburanisha.

Imodoka ebyiri zifite ibyuma imbere ndetse n'amatara amurika imbere cyane, aho izo modoka zifite purake iri mu mabara y'umweru ndetse y'ikigo cy'igihugu gishinzwe umutekano polisi.

Imodoka y'umweru ndetse n'umukara aho hiryaho hari imodoka nini itwara imizigo ndetse n'ibindi bintu, hirya hari n'abandi bantu aho iyo modoka ari iy'urwego rushinzwe umutekano rwa polisi ikoresha bacunga umutekano.

Icupa risize irangi ry'umutuku ririho ibyapa byerekana icyo ako kantu gakora gafiteho umupira w'umukara, aho gakoreshwa bazimya umuriro ndetse n'izindi nkongi zishobora guterwa n'amashanyarazi.

Abapolisi aho bari gukoresha ibizamini bya moto abantu batandukanye. Aho umwe ari imbere, undi akaba ari inyuma, bagenda baha amabwiriza y'abantu baje gukora, kugira ngo barebe uwatsinze.

Inzu iriho icyapa kiri mu mabara y'umweru, aho cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu ndetse n'umukara. Iriho ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda ndetse n'ikirangantego kiranga polisi y'igihugu, aho imbere y'ako kazu hahagaze abapolisi babiri bafite imbunda.

Umupolisi wo mu muhanda ushinzwe umutekano wo mu muhanda, aho yambaye impuzankano iri mu mabara y'umukara ndetse n'ijiri irimo amabara y'umuhondo yanditseho polisi, imbere ye hari y'imodoka ndetse afite irangamuntu n'akamashini yandikiho abantu bakoze amakosa.

Imodoka nini aho ifite amabara y'ubururu ndetse n'ibara rijya gusa n'ivu, aho iyo modoka ikoreshwa bazimya inkongi y'umuriro, imbere yayo hakaba hari n'izindi modoka ebyiri aho harimo imodoka ifite ibara ry'umweru.

Umupolisi ushinzwe umutekano wo mu muhanda, aho yambaye impuzankano ya polisi iri mu ibara ry'umukara ndetse n'ijiri irimo amabara y'icyatsi kibisi, aho iyo jiri yambara abakora mu muhanda.

Mu muhanda hari abantu benshi bari guturuka mu mpande zitandukanye. Hari umuhanda w'abanyamaguru hejuru hari na kaburimbo iri kunyuramo moto hagati aho abantu ba bari kunyura cyangwa ku mpande z'uwo muhanda abanyamaguru bari kunyuramo hari inyubako ku ruhande rw'iburyo no kuhande rw'ibumoso hino hari ipoto.

Ahantu hari irangi ry’umuhondo, imbere haho hari abantu bafite umupira basunika ibintu bigenewe kuzimya umuriro. Bambaye impuzankano ndetse n’ingofero za bazimyariro. Inyuma haho hari umupolisi ushinzwe impanuka, na we yambaye impuzankano.

Umuhanda aho harimo imodoka ziri gukoreshwa ibizamini n'abapolisi bahagaze bari kugenda baziyobora, iruhande rwabo hari abantu batandukanye baje kureba uburyo ikizamini gikorwa ndetse n'abaje kugikora.

Abadamu batandukanye ndetse n'abagabo aho bicaye mu ntebe zifite imisego y'umukara, aho buri wese imbere hari akarangururamajwi kugirango abashe kuvuga ku kibazo cye cyangwa se igitekerezo adahuye ahari.

Icyapa gifite ubuso bw'umweru, aho hariho umugabo wambaye ikote ry'umukara, ndetse yambariyemo n'ishati y'umweru harimo na karuvati, iruhande rwe hari umugabo wundi uhagaze wambaye umupira w'umweru.

Umugabo wambaye ishati y'umukara y'amaboko maremare ukenyeye neza nk'intore, aho mu ijosi afitemo urunigi aho ari kuvugira kuri mikoro, inyuma ye hakaba hari icyapa kimwamamaza nk'umuntukandida uri kwiyamamaza.

Abagabo babiri aho umwe ari umuzungu ndetse yambaye n'amarinete y'umweru afite uruyenzi ku mutwe, aho hirya yaho hari undi mugabo wambaye umupira w'umweru na we ukuze, wambaye amarinete ndetse n'ingofero. Inyuma yabo hari icyapa kiri mu mabara y'umweru cyandikishijeho amabara y'umukara ndetse ubururu, n'umutuku.

Batatu bambaye imipira y'umweru iriho irango rya komisiyo y'igihugu y'amatora, aho imbere yaho hari impapuro z'amatora, aho bari kugenda babarura amajwi yatowe n'abantu baje gutora.

Abantu batandukanye aho abagabo bambaye amakote ndetse abagore bakaba bambaye imikenyero, aho bari kumwe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, aho bahagaze bari kwifotoza ifoto y'urwibutso imbere y'aho bakorera inama.

Ihema ry'umweru, aho munsi y'iryo hema hari umugabo ndetse n'umugore, aho umugabo afashe icumu ndetse n'ingabo, aho hirya yaho hari abandi bantu baje kwitabira ibyo birori.

Icyumba cy'amatora aho giteguye ku buryo umuntu wese atora bimworoheye, kandi hari n'abantu bambaye imyenda y'umweru ndetse n'ingofero bamufasha bamusobanurira uburyo ashobora gutora nta nkomyi.

Abagabo babiri bambaye amasoti y'icyatsi kibisi yanditseho vuba bambaye kandi n'amakasike mu mutwe biragaragara neza cyane ko ari abamotari hanyuma kandi biragaragara ko akaboko kabo ko bafashe ku gikapu cy'icyatsi kibisi cyanditseho vuba, icyo gikapu giteretse kuri moto biragaragara cyane ko aribo bifashishwa, muku kujyana ibicuruzwa biba byaguzwe n'abaturage batandukanye babigeze aho bari.

Ibicupa binini, amaji ndetse n'ibindi bicuruzwa bigezweho usanga bihenze cyane mu masoko acuruza ibiribwa mu mujyi wa Kigali abantu benshi babigana barinubira igiciro kiri hejuru.

Abanyamuryango ba efuperi harimo abagore n'abagabo aho bambaye ingofero zamamaza umukuru w'ishyaka rya efuperi ariwe Paul Kagame ndetse bafite amadarapo ariho ibirango bya efuperi biri mu mabara y'umutuku, umweru ndetse n'ubururu byandikishijeho amagambo y'umukara.

Gufata ubwishingizi ni ingenzi kuri buri muntu wese niyo nama nabagira, kuko birafasha, binakemura ibibazo runaka igihe bahuye nabyo, urugero: niba ufite nka miliyoni nka zirindwi ukaziguramo inzu gashya, ejo bara kugoboka. Ariko urumva iyo ntayo ufite biba ibibazo.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare y'umukara, wambaye n'ikinigi kiri mu ijosi, akaba yikenyeje umukenyero ujya gusa nka kaki, inyuma ye hakaba hari icyapa kiriho ifoto ye ndetse yambaye kositimu kimwamamaza.

Batandukanye n'inteko nshingamategeko aho bicaye mu byiciro byabo, imbere ya buri wese hari amazi ndetse n'akarangururamajwi kugira ngo nibamuhe ijambo aze kuvuga atarinze ava aho ari, imbere yabo hakaba hari n'undi muyobozi uri kuvuga ijambo.

Umudamu wicaye wambaye amarinete y'umweru aho yambaye imyambaro iri mu ibara ry'ubururu aho yicaye ku ntebe zifite imisego y'umweru ndetse ari yicaye mu nzu ifite ibara ry'umuhondo hirya ye hari umutako ukoze mu ishusho y'umuntu.

Inzu isize amabara y'umuhondo, irimo abagabo babiri ndetse n'umudamu uri inyuma wambaye ikote ry'umweru, aho umugabo umwe afite urupapuro, ari kurushyira mu gasanduka k'amatora.

Abadamu babiri bunamye, aho umwe yambaye umupira w'umweru ndetse n'ijipo, naho undi yambaye umupira w'umweru n'ipantaro, hirya yaho hakaba hari ibidobo by'amatora bikoreshwa bashyiramo amajwi.

Benshi bateranye bambaye imipira y'umutuku ndetse n'umweru iri mu mabara y'ibirango by'ishyaka rya FPR ndetse bafite n'utudarapo dufite amabara y'umutuku, umweru, ubururu ariho ijambo ryandikishijeho amabara y'umukara ya FPR aho baje kwamamaza.

Abayobozi batandukanye aho harimo abagore n'abagabo, aho abagore bambaye imikenyero itandukanye, ndetse harimo n'umugabo wambaye kositimu, aho bari kurahira imbere y'idarapo, ndetse n'imbere y'abayobozi.

Inzu isize amabara y'umuhondo, aho imbere hicaye abagabo batatu ndetse n'umudamu umwe, aho umugabo umwe ahagaze, afite mikoro ndetse abo bagabo bakaba bambaye imipira y'ishyaka rya Girini pati, rishinzwe guharanira ibidukikije mu Rwanda.

Abagabo ndetse n'abadamu aho bicaye mu nama, imbere yaho hari amazi ndetse na za mudasobwa kuri bamwe, aho bari kugenda bareba imyanzuro ifatwa imwe n'imwe mu buryo bumvikanyeho.

Abayobozi batandukanye b'abadamu ndetse n'abagabo, aho abadamu bambaye imikenyero hirya yabo hari n'abagabo, aho bafasha ku idarapo bari kurahira ko bazakora inshingano neza nta buriganya bakurikije uko amategeko abitegeka.

Inzu zifite imiryango isize ibara rijya gusa nk'ivu, imbere yaho hari abamotari bicaye ku ipikipiki zitandukanye aho batwara abagenzi ndetse n'ibintu babajyana mu byerekezo bitandukanye.

Imodoka iri mu muhanda w'umukara, aho iyo modoka ifite ibara ry'umutuku, itwawe n'umushoferi ndetse hicayemo n'abandi bagabo babiri, aho yikoreye umucanga hejuru hariho n'ikintu kiwupfundikira, hirya yaho hari ibiti bitandukanye.

Ikimodoka gisize irange ry'umuhondo aho gitwara imicanga ndetse n'ibindi bintu, aho kiri kugenda mu muhanda, iruhande rwacyo hakaba hari moto iparitse nayo iri mu muhanda, hirya yaho hakaba ari ibyapa bigenda biyobora izo modoka.

Imodoka nini isize irangi ry'umweru, aho iyo modoka itwara ibicuruzwa bitandukanye n'ibiryo ndetse n'ibindi bintu bikoreshwa ibindi bintu bitandukanye, aho iri kugendera mu muhanda w'umukara, hirya hakaba hari ibiti bitanga umwuka.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye, aho harimo n'imodoka y'umutuku itwara, iy'imicanga ndetse n'ibindi, hakaba harimo n'ipikipiki z'amapine atatu na yo itwara imizigo, imbere yaho hakaba ari indi modoka itwara abantu ku giti cyabo.

Inzu mberabyombi ubona ko irimo abantu benshi higanjemo abantu bakuze ndetse n'urubyiruko, ariko hakaba harimo n'abayobozi, ukaba ureba ko bose bateze amatwi umuntu uri kubaha ikiganiro kandi, buri wese imbere ye hakaba hari icupa ry'amazi. Hakaba harimo n'umuntu uhagaze inyuma wambaye impuzankano y'umukara.

Umuhanda w'umukara uri kunyurwamo n'ipikipiki y'amapine atatu, aho hirya yaho hari imodoka iparitse, hino yaho aho abagenzi banyura bari kugenda, hari uwambaye ipantaro y'umutuku ndetse n'undi wambaye umupira w'ubururu.

Imodoka iri mu muhanda w'umukara aho itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, hirya y'umuhanda hakaba hari n'izindi modoka ziparitse ku nzu zicuruza ibicuruzwa bitandukanye, aho hari icyapa cyerekana ko hari kampani ikora ibintu by'amahirwe.

Umuhanda w'umukara aho urimo ibinyabiziga bitandukanye nk'amapikipiki atwaye abagenzi ndetse n'imodoka zitwara imizigo n'abantu ku giti cyabo aho ziri kugenda mu muhanda, hirya yaho hakaba hari n'abagenzi ndetse hakaba n'ibiti hirya y'umuhanda.

Umuhanda w'umukara urimo abagenzi batandukanye ndetse harimo n'imodoka itwara abagenzi rusange size ibara ry'ubururu n'umweru, aho abagenzi baza gutega bitwaje ikarita bagakora ku cyuma ib ifiteho, hepfo hari na moto iri gutwara abagenzi mu muhanda.

Muri gare aho imodoka ziparika zitandukanye aho hari imodoka zitwara abagenzi rusange, aho harimo imodoka ifite amabara y'ubururu ndetse n'indi ifite amabara y'umweru, aho hari abagenzi batandukanye ndetse n'abantu bagenda muri iyo gare.

Umuhanda w'umukara urimo ibinyabiziga bitandukanye nk'amagare ndetse n'imodoka, aho harimo imodoka nini itwaraibicanwa ndetse n'ibindi bintu bisukika, aho harimo n'izindi modoka ziri kugenda muri uwo muhanda.

Umuhanda w'umukara hirya yawo hari abagenzi banyura, aho umuhanda uririmo imodoka itwara imizigo itandukanye nk'amakara ndetse n'ibirayi ndetse n'ibindi byinshi, aho inyuma yawo hari amapikipiki ahetse abantu ndetse n'amagare...

Umuhanda w'umukara urimo imodoka y'umweru ndetse iriho amashitingi, iyo modoka ikaba itwara imizigo aho iri mu bwoko bwa dayihatsu, imbere yaho hari ibindi binyabiziga nk'amagare, hirya hari n'abantu bari kugenda mw'uwo muhanda.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, aho uwo muhanda urimo imodoka zitandukanye hari n'izifite ibara ry'umweru ndetse n'izifite ibara ry'ubururu bwijimye aho harimo kugenda abantu batandukanye iruhande rwaho.

Umuhanda w'umukara usanzwe unyurwamo imodoka z'imibindi binyabiziga maki aho uri mumodoka y'mweruru wa imizigo aho iriho shitingi hejuru hirya y'aho hari umugenzi uri aho abagenzi banyura.

Umukara aho urimo ibinyabiziga bitandukanye nk'amapikipiki, imodoka zitwara abantu ku giti cyabo ndetse hirya hakaba hari n'umudamu ufite ibisheke mu ndobo, ari kubicuruza ku muhanda.

Umuhanda w'umukara aho umugabo atwaye imodoka nini ihetse umucanga hejuru yayo, hakaba hari shitingi iwupfundikiye iruhande rwaho hakaba hari igare, ritwawe n'umunyonzi na ryo riri muri uwo muhanda.

Umuhanda w'umukara aho ku ruhande rwawo haparitse imodoka zitandukanye, harimo n'amapikipiki afasha gutwara abantu imizigo, aho hari n'umuyonzi utwara abantu ku igare, imbere ye hahagaze undi mugabo wambaye umupira w'imbeho.

Imodoka ifite irange ry'umweru ndetse inyuma yaho hakaba igishitingi gitwikiriye ikintu gitwara imizigo, iruhande rwaho hakaba hari ipikipiki itwawe n'umumotari inyuma ahetse umugenzi, iruhande rwaho hakaba hari n'umuyonzi utwaye igare.

Mu muhanda w'umukara aho urimo imodoka zitandukanye harimo iziparitse uruhande rw'aho zitwara imizigo, iruhande hirya ku nkengero z'umuhanda hari inzu zigeretse ndetse hari n'ibyapa byerekana y'uko nta modoka yemerewe kuhaparika, hakaba hari n'abagenzi bari kugenda.

Umuhanda w'umukara, urimo moto igira amapine atatu aho iyo moto itwara imizigo itandukanye, hiryaho hari ibiti mu nkengero z'umuhanda, hari n'abantu ndetse n'imodoka iparitse.

Ipikipiki isize amabara y'umutuku aho iriho na purake yicayeho umumotari wambaye ijiri ifite amabara y'umuhondo ndetse n'ubururu, aho yambaye casike y'umukara, hirya ye hari indabyo ndetse n'izindi nzu zikorerwamo ubucuruzi butandukanye.

Umuhanda w'umukara, aho harimo imodoka isize ibara ry'umweru, aho inyuma yaho mu kantu gatwara imizigo, hicayemo umugabo, ndetse hirya y'aho, aho abagenzi banyura, hakaba hari abagabo ndetse n'umudamu bari kugenda, hirya hakaba hari ishansiye, bari kubaka.

Imodoka ntoya itwara imizigo aho hari na moto zihetse abagenzi zitandukanye, hirya y'umuhanda hari n'izindi modoka nini zitwara ibicuruzwa ndetse n'ibindi bintu ziparitse hafi y'aho, mu muhanda hakaba harimo ibiti bitanga umuyaga.

Imodoka ziparitse ku ruhande aho izi modoka ari nyinshi, ndetse iruhande rw'aho hari kugendera abagenzi n'umuhanda uri kugenderamo ibindi binyabiziga n'amapikipiki. Hirya ku nkengero y'umuhanda hari inzu isize amabara y'umuhondo.

Umuhanda aho uri kunyuramo ipikipiki itwawe n'umumotari aho ku nkengero zayo aho abagenzi banyura hari abagenzi batandukanye bari gucaho hari n'undi mudamu ufite akanu ahetse mu mugongo ndetse wicaye aho abagenzi banyura.

Imodoka ebyiri ziri kubisikana aho zifite ibara ry'umweru zose zikaba zitwara imizigo, aho ziri mu muhanda w'umukara, hirya yaho hari ibiti ndetse hari n'ahantu wagira ngo bari kubaka.

Imodoka zitwara abantu ku buryo bwa rusange, aho ziri kugendera mu muhanda w'umukara, hirya yabo hakaba hari abagenzi nabo bari kugendesha amaguru mu tuyira twahariwe abanyamaguru, kugira ngo zitabagonga.

Umumotari uri ku ipikipiki, aho arigendera mu muhanda w'umukara yambaye akajiri kabaranga abantu bakora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu, hirya y'umuhanda hari inzu z'ubucuruzi na moto iparitse.

Imodoka isize irangi ry'umweru, aho iyo modoka itwara imizigo itandukanye nk'umucanga ndetse n'ibindi, ikaba iri kugendera mu muhanda w'umukara, hino yayo hakaba hari umugenzi uri gutambuka, hirya hakaba hari ibiti bitanga umwuka ndetse bikanarinda n'isuri.

Umuhanda w'umukara urimo imodoka itwara imizigo ndetse n'ibindi bitandukanye, aho hirya yaho hari ibiti ndetse hari n'ishansiye bari kubaka, aho hirya y'umuhanda hari rigore itwara amazi.

Abantu bicaye ku tuntu dushyirwa ku muhanda kugira ngo abantu babe baharuhukira baramutse, bananiwe se cyangwa bashaka kuruhuka bitegeye umujyi w'u Rwanda, aho imbere yaho hari amazu ageretse ndetse asize ibara ry'umuhondo, hirya yaho hari n'ibyapa byamamaza.

Ikibuga gikinirwaho n'umukino w'amaboko uzwi cyane witwa basikete, aho hirya hari aho abantu bicara ndetse hasakaye, hirya yaho hakaba hari n'ibindi bibuga bikinirwamo indi mikino itandukanye, aho abantu batandukanye baza gukorera siporo.

Ikibuga cy'igitaka gisize imirongo y'umweru aho kirimo fire gikoreshwa n'abantu bakina tenisi aho baba batera barenza agapira kuri iyo fire hirya hari aho abafana bica ndetse hicayemo n'abagabo batatu.

Ikibuga bakiniramo imikino itandukanye aho icyo kibuga kirimo ibyatsi hirya hari aho abantu bicara, ndetse hazengurutswe na korotire ikozwe mu twuma dutoya ndetse n'ibyuma bishinze, hirya yaho hakaba hari ishyamba.

Icyumba cy'inama kirimo abantu batandukanye abo bantu harimo abagore n'abagabo. Bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara. Imbere yaho hari ameza afite ibara rijya gusa nk'umutuku, kur'ayo meza hateretseho amakaye na terefone zigendanwa.

Ishusho igaragaza icyapa cya mpande eshatu kiriho ibirango by'umukara, aho cyerekana umugabo wagira ngo ngo ari guterura umucanga. Icyo cyapa gishyirwa ahantu berekana ko imbere bari kubaka cyangwa se bari gukora ibindi bikorwa bijyanye n'ubwubatsi.

Icyapa kiri mu mabara y'umweru, ubuso bw'umweru, ibirango by'umutuku ndetse n'umukara; aho icyo cyapa kiri mu ishusho y'uruziga ndetse n'akantu gasa nk'igare kari mu ibara ry'umukara, aho berekana ko hatemerewe kunyura igare.

Gishinze mu butaka aho kiriho utwapa duto dufite ubuso bw'umweru bwandikishije amagambo ari mu ibara ry'umukara ndetse n'imibare, aho buranga amerekezo y'ahantu runaka, inyuma icyo cyapa hakaba hari ibiti.

Icyapa cya mpande enye kirimo ubuso bwa bw'icunga rihishije cyandikishije ho amagambo y'umukara aho kimenyekanisha ko imbere hari ibikorwa by'umuhanda biri gukorwa ugomba kugenda wigengesereye.

Icyapa cya mpande eshatu, ubuso bw'umuhondo, ibirango by'umukara, aho harimo umugabo ufite igitiyo ameze nk'uri kuyora umucanga, kikaba gisobanura y'uko imbere hari ibikorwa by'ubwubatsi biri gukorwa.

Icyapa kiri ku nkingi isize amabara y'umuhondo ndetse n'ibara ry'ivu, aho icyo cyapa gifite ubuso bw'umweru ndetse cyandikishijeho amagambo y'umukara kikaba kiranga ahantu iyo nzu iri n'icyerekezo.

Bakoresha ishati y'amaboko maremare wazamuye amaboko ndetse wambaye reneti hirya yo mu muhanda hari imodoka iri kuhaca ndetse n'iburyo bwe naho hari abagabo bandi bahagaze harimo uwambaye ingofero ndetse nabo bahagaze.

Icyapa cya mpandeshatu ubuso bw'umweru, birango by'umukara ndetse aho kirimo umugabo yerekana afite ikintu wagira ngo ari kuyora umucanga, gisobanuye yuko imbere haba ari ibikorwa by'ubwubatsi biri kuhakorwa.

Icyapa cya mpandeshatu, ubuso bw'umweru, ibirango by'umukara, aho icyo cyapa gishyirwa ku muhanda cyerekana yuko ahantu imbere umuhanda unyerera, bityo rero utwaye ikinyabiziga wese agomba kugenda yigengesereye.

Icyapa kimanitse ku cyuma, aho icyo cyapa gifite ubuso bw'ubururu, kiriho ibirango by'umweru cyanditseho inyuguti ya pa ndetse hashushanyijeho n'imodoka nini, aho cyerekana ko haparika imodoka zitwara abagenzi rusange.

Icyapa kirimo ubuso bw'umweru, ibirango by'umutuku n'umukara, aho icyo cyapa gishyirwa ahantu mu ikorosi, aho berekana ko nta kinyabiziga cyangwa se moto yemerewe kuhakata.

Umuhanda w'amabuye uteretseho icyapa kiri ku byuma bisize ibara ry'umutuku, aho kiri mu ishusho ya mpande eshatu, aho gifite ubuso bw'umweru, bwandikishije amagambo y'umukara icyo cyapa kiri mu byapa bibura ko hari imirimo imbere iri gukorwa.

Umuhanda ugeretse aho imodoka zimwe zinyura hejuru ndetse n'izindi zikanyura munsi aho munsi y'uwo muhanda hari abamotari ndetse n'ibindi binyabiziga imbere yaho hakaba hari icyapa kiranga ibyerekezo bitandukanye aho hakererekana ahajya i Nyamata ahajya mu mujyi ndetse ntihajya Kagarama.

Umuhanda urimo imodoka y'umweru ndetse na moto, hirya y'umuhanda hari umugabo uhagaze wambaye umupira usa n'iroza ndetse haparitse n'izindi modoka, hirya yizo modoka hari inzu isize amabara y'umweru aho ikoreramo ibikorwa bitandukanye.

Utubati twiza dushyashya bari gusiga amarangi ukaba wadukoresha ubikamo ibintu yaba imyenda, ndetse n'imitako.

Ibiti bitandukanye bitanga amahumbezi ndetse n'umwuka mwiza, ku bantu basuye aho hantu hitwa parike Nyandungu, hakaba harimo ibiti bitandukanye birimo ubwoko butandukanye hakaba harimo n'abantu bicaye baje gufata ndetse no gusura aho hantu.

Inzu y'amagorofa aho iriho igiseke kinini, no mu rwego rwo kuririmbisha iyo nyubako imbere yaho hakaba hari ibiti bitandukanye bizana umuyaga, ndetse binarimbisha aho hantu iyo nyubako iri.

Inyubako ndende aho iriho icyapa kinini cy'inzoga zitwa Sikoro, aho iruhande rwaho hari udupikipiki turiho udusanduku batwaramo ibintu bitandukanye, hakaba no ku ruhande rw'aho hari imodokari.

Inzu isize amarangi y'umweru, ndetse ifite igipangu gisize ibara ry'umukara, aho imbere yaho hari ubusitani burimo pasiparume, ndetse n'ibindi byatsi, aho imbere yaho ari ipoto ritwara amashanyarazi.

Ishusho yerekana inzu zitandukanye zigeretse, ndetse no hejuru y'ibisenge byazo, aho ziriho ibisenge bitandukanye, bifite amabati atandukanye. Aho hari n'ibyapa biri ku muhanda, biranga ahantu.

Imodoka ebyiri aho imwe ifite ibara ry'umutuku wijimye naho indi ifite ibara rijya gusa na shokora, imbere yaho hari inzu zigeretse inshuro zirenga imwe zikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi.

Inzu zitandukanye, zubatse mu buryo butandukanye, aho izo nzu abantu bazikoresha babamo, harimo n'amahoteli aho abantu bashobora kugenda bagacumbika, zegeranye n'ibiti bifasha abantu kubona umwuka wo guhumeka.

Umuhanda urimo amapikipiki atandukanye aho abamotari batwayeho abagenzi babajyana mu byerekezo bitandukanye hirya yaho hakaba ari amazu afite irangi ry'umuhondo ndetse hari n'abantu imbere yaho.

Ishusho y'umugi wa Kigali, aho igaragaza umugi wa Kigali n'ibidukikije biwurimo ndetse n'ibyiza biwutatse, aho ku mpande hagiye hanyura amapoto atwara insinga z'amashanyarazi ndetse hakaba hari inyubako z'amagorofa zitandukanye.

Ibisenge by'inyubako muri Kigali aho bimwe bigiye bisize amabara y'umutuku arinda amabati kugira ngo aticwa n'umugese aho hari n'andi mabati, aye afite ibara rya oranje, aho imbere yaho hari amapoto ariho insinga z'amashanyarazi.

Umuhanda ukozwe n'amabuye, aho hari kugenderamo abantu batandukanye bahetse ibikapu, hirya yaho hakaba hari imodoka ziparitse z'amabara atandukanye nk'ifite ibara ry'umutuku ndetse n'indi isa n'umukara.

Inyubako igeretse aho ikoreramo ibigo bitandukanye bitanga serivisi zitandukanye, aho hakoreramo nk'ibigo bitanga ubwishingizi ku bigo by'ubucuruzi ndetse impande yaho hakaba hari amamodoka aparitse, atwarwa n'abantu bakora mo aho ngaho.

Inzu iriho imiryango itandukanye ikoreramo ubucuruzi butandukanye aho hari nk'aho bacuruza inkweto aho bacuruza ibyo kurya ndetse n'ibindi byo gukoresha mu rugo, aho ushobora kuza ukigurira hakaba hari n'ibyapa biranga ibihacururizwa.

Icyapa kiri mu buso bujya gusa na shokora handikishijeho amagambo y'umweru, aho kiri kwamamaza ikawa y'umugabo witwa Pedro ndetse n'ibindi bintu acuruza.

Umuhanda w'umukara urimo imodoka y'umukara, aho hirya yaho hari inzu zitandukanye, aho izo nzu zisize amabara y'umuhondo, ndetse hirya y'umuhanda hari n'ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi butandukanye.

Inzu isize amabara y'umweru, aho irimo ubucuruzi butandukanye, aho harimo ubucuruzi bw'imyenda n'ibikapu, ndetse imbere yaho hari imodoka iparitse, aho ahantu aho hantu bashobora kuza guhaha ibintu bitandukanye.

Umuhanda w'umukara aho ungenderwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, harimo ahari kugenderamo amapikipiki hirya yaho hakaba hari amamodoka aparitse, hakaba hari n'umugenzi uri kugendera mu nzira y'abanyamaguru.

Umuhanda w'umukara aho urimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo amapikipiki ahetse abantu, harimo n'amapikipiki adahetse abantu, harimo imodoka zitandukanye zitwara abantu ku buryo ari rusange.

Utubati twiza dushyashya bari gusiga amarangi ukaba wadukoresha ubikamo ibintu yaba imyenda, ndetse n'imitako.

Umuhanda w'umukara ugaragaza imirongo icagaguye aho abagenzi bambukira, hahagaze amapikipiki ndetse n'ibinyabiziga birerekeye abantu kugira ngo bambuke batagize ikibahutaza.

Umuhanda w'umukara, aho unyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, nk'amapikipiki, ndetse n'imodoka, aho ku nkengero zaho hari ibiti birinda isuri, bikanatanga umwuka, imbere yaho hakaba hari inyubako, igeretse inshuro zirenze imwe.

Umuhandanda w'umukara unyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, aho hari ihuriro ry'umuhanda bashyize aho abagenzi bambukira, hakaba harimo ibinyabiziga biri kugenda, ndetse hirya hakaba hari n'abagenzi bari kugenda, umubare n'ibiti wegereye umuhanda biwurinda isuri, ndetse bizana n'umwuka mwiza.

Umuhanda w'umukara aho hari amasangano atandukanye y'ibyerekezo bitandukanye aho ku muhanda hari amatara amurikira abantu iyo bwije nimugoroba, hirya ku nkengero hakaba hari ibiti bizana umuriro.

Umuhanda w'umukara aho uri kunyuramo imodoka ifite ibara ry'ubururu iri kumurika amatara imbere, hirya ku ruhande hakaba hari umugabo wambaye itaburiya ijya gusa n'ivu uri kuri telefone ari kugenda, hakaba hari n'ibindi binyabiziga nk'amapikipiki na byo biri muri uwo muhanda.

Umuhanda w'umukara aho ugiye usize irange ku nkengero zawo kugira ngo ukomeze gusa neza ndetse mo hagati yaho hakaba hagiye haciyemo irange ryerekana uburyo imodoka zishobora kugendamo, hakaba hari n'ibyapa ku muhanda biyobora imodokari.

Umuhanda w'umukara aho uri kunyuramo n'abagenzi batandukanye, abagabo babiri, umwe ahetse igikapu hirya yaho hakaba hari n'undi mudamu, hirya ku nkengero z'umuhanda hakaba hari ibiti bizana umwuka wo guhumeka.

Umuhanda w'umukara aho uri kunyuramo ibinyabiziga bitandukanye n'ipikipiki ihetse umugenzi ndetse hirya hakaba hari imodoka y'umutuku nayo iri kunyura muri uwo muhanda hirya hakaba hari ibiti bitanga umwuka.

Umuhanda w'umukara aho urimo ibinyabiziga bitandukanye biri kugenda, hakaba hari n'ikindi kinyabiziga giparitse ku ruhande, imbere hari akapa gatoya kari muri mpande eshatu kamenyekanisha ko imbere imodoka yagize ikibazo.

Umuhanda w'umukara aho urimo ibinyabiziga bitandukanye, nk'amapikipiki imodoka zitwara abantu ku giti cyabo ndetse hakaba harimo n'umunyonzi aho atwaye igare ahetse agakapu, hirya yaho hakaba hari ibiti.

Umuhanda w'umukara aho urimo ibinyabiziga bitandukanye bitwara abantu, ku buryo bwite ndetse hakaba harimo n'amapikipiki atwara abantu, hirya hakaba hari ibiti bitanga umwuka.

Aho imodoka zihurira zitegereje yuko zibona uburenganzira bwo gutambuka ndetse hirya y'aho hari inzu isize amabara y'umweru ikorerwamo ubucuruzi butandukanye nk'imyenda ndetse n'ibindi.

Umuhanda w'umukara, aho umuhanda w'umukara urimo imirongo icagaguye isobanura ko umuntu ashobora kunyuranaho, hirya y'umuhanda hari ibiti bitanga umuyaga ku bantu bari mu Rwanda ndetse n'ahandi.

Umuhanda w'umukara aho urimo ibinyabiziga bitandukanye, nk'amapikipiki, imodoka nini zitwara abantu benshi icyarimwe, imodoka itwara imizigo ifite ibara ry'umweru ndetse no hirya yaho, hakaba hari ibyapa ku muhanda.

Umuhanda w'umukara aho urimo imodoka y'umweru, ndetse hirya hari n'indi modoka y'umukara hirya yaho hari inzu yubakishije amatafa arihiye ndetse ziriho n'amategura, hirya y'izo nzu hari n'izindi z'ubucuruzi.